Abantu bakora umutekano ni beza, iyo baje kuducungira umutekano tuba tumeze neza cyane, nta bwoba dufite dutekanye. Abantu bakora umutekano babona amafaranga ateza imbere imiryango yabo, igihugu cyacu kigatera imbere.

Abapolisi b'u Rwanda ni beza, iyo uwakoze icyaha cyangwa wakoze amakosa, baza kugushaka bakakujyana imbere y'ubushinjacyaha kugira ngo baguhane, ibyaha bikagabanuka mu gihugu, iyo wakoze icyaha abapolisi bakagufata bagushikiriza ababishinzwe, batuma ibyaha bigabanuka mu gihugu kandi abantu benshi bakagira umunezero n'amahoro.

Sofiya ifotora abantu bakoze amakosa ku muhanda ni nziza. Iyo umushoferi arengeje umuvuduko cyangwa akoze ikindi cyaha ari kwirukanka cyane, sofiya ikamuta ikamufotora, babona amafaranga bakayakoresha mu bikorwaremezo bakubaka imihanda, bakubaka amarerero, bakubaka amashuri, n'ibindi bikorwaremezo bitandukanye.

R.I.B ni nziza, R.I.B ikurikirana ibyaha, igahana umuntu yakoze icyaha, bituma bamufata bakamujyana, bakamushinja icyaha, cyangwa agakemurira ikibazo yagize, nta kibazo cyabaye bigenze neza cyane.

Abajenerali ni beza. Iyo ubaye umujenerali utegeka abantu benshi, ukabona amafaranga umuryango wawe ukabaho neza. Iyo ubaye umujenerali uba wubashywe, umeze neza kandi utekanye, kandi urinzwe.

Abadaso ni beza ba turindira umutekano igihugu cyacu kigatera imbere, abagituye bagatera imbere, kubera bafite umutekano n' amahoro; abadaso iyo umuntu yakoze icyaha baramufata bakamujyana, kumufunga bigatuma ibyaha bigabanuka n' abantu babana neza mu mahoro.

Abapolisi b'igihugu ni beza, abapolisi badufasha gucunga umutekano no gufata abantu bakoze ibyaha, iyo umuntu yakoze ibyaha baramufata bakamujyana mu bushinjacyaha bakamuhana, bigatuma abantu bose bagira umutekano. Abapolisi imiryango yabo ibaho neza kuko barahembwa babona amafaranga.

Iyo uri mumazi wumva wishimye unezerewe, amazi atanga ubuzima bwiza iyo uyanyweye wumva wishimye, iyo uri mu bwato uri kugendera mu mazi wumva unezerewe, ukumva uri gufata akayaga neza, abantu batwara ubwato babona amafaranga amazi ari mu kiyaga.

Indege ni nziza, iyo umuntu agiye mu ndege agiye gukora urugendo rurerure agerayo vuba kandi yihuse. Indege yihutisha ibicuruzwa, iyo umuntu agiye gucuruza nko mu mahanga agatega indege, icyo gihe aho yari kugenda mu minsi itanu agenda umunsi umwe, kubera ko indege yihuta. Iyo ushaka kugira ngo ubone amafaranga menshi, ukoresha indege.

Inama ni nziza iyo ukoze inama ukabwira abantu bose, ni byiza bituma abantu bamenya ibigambiriwe n'ibyo bateganya, iyo ukoze inama umuntu yicaye neza ategeranye na mugenzi we aba yumva afite akayaga kameze neza, iyo ukoze inama wumva utekanye kandi ukamenyeramo byinshi byiza.

Kwigisha abanyeshuri uburyo bajya barazimya igihe habaye inkongi itewe na kizimya mwoto ni byiza, kuko iyo habaye inkongi bitabaye ngombwa ko abapolisi baza cyangwa abandi bantu babishinzwe, abo wigishije barabikora kandi bikagenda neza, bituma igihugu gitera imbere hakagabanyuka n'ibindi.

Amashuri ni meza, iyo ababyeyi bakoze inama bagatuma umuyobozi akaza akabagira inama, biba ari byiza cyane, akababwira uko umutekano uhagaze, bamenya byinshi bihagije kandi bifatika, iyo bicaye ku mashuri biba ari byiza, baje kumvira abana babo, bakabumvira bakajya mu nama, Leta ikababwira ibyo ikeneye, nabo bakayibwira ibibazo bafite.

Mikoro ituma abantu bumva neza icyo umuntu ari kubabwira, bose bakumva icyo inama ishatse kuvuga, bagataha bamenye umwanzuro w'inama, kandi buri wese, kandi neza cyane.

Inama ni nziza. Inama ituma abantu bose bamenya amakuru bakayamenyera ku gihe. Bakiga ku bintu; bakabikemura. Ibibazo abaturage bafite bakabikemura. Inama itanga akazi ,abakozi bakora ahantu harabera inama bakabona akazi.

Inama ni nziza ituma abaturage bamenya amakuru bakayamenyera ku gihe abantu bagirabandi inama bakabona amafaranga bateza imbere igihugu n'abaturage bateze imbere igihugu kubera bamenya amakuru yaho igihugu kigeze.

Mikoro ni nziza; iyo muri nama muri abantu benshi, mikoro ituma bose bumva, mikoro igatuma uri kure yawe yumva, mikoro ni nziza kuko abantu bakora mikoro babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo, bagateza imbere n'imiryango yabo.

Inama ni nziza, iyo umuntu uri kutugira inama, twese twitabiriye inama tubaho neza, tukamenya ibintu byinshi, tugasobanukirwa ibintu byinshi, inama tuyimenyeramo byinshi abatanga inama babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo, natwe duhawe inama tugatera imbere mu biteketezo no mu myumvire.

Abantu bateraniye hamwe, iyo abantu bateraniye hamwe, bamenya ibintu byinshi cyane, bakaganira ibintu byinshi, bakabifatira umwanzuro, bigatuma igihugu cyacu gitera imbere, bigatuma abantu benshi bamenya amakuru, bigatuma ubuzima bwacu bugenda neza, tukagira amahoro n'umutekano.

Inama ituma abantu bamenya aho iterambere rigeze, bagatanga ibitekerezo bakajya inama bagatera n' imbere bakavuga ibibazo bafite bakabikemurira mu nama, igihugu cyacu kigatera imbere kikagira abaturage beza.

Ikirango n'uducuma ni byiza, iyo wicaye ku kirago uri kunywera mu gacuma wumva wishimye cyane ukumva uranezerewe. Abakozi bakora uducuma babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagateze imbere n'igihugu cyabo.

Inka z'inyarwanda ni nziza zigira amahembe meza, zigakurura ba mukerarugendo, aborozi borora inka nyarwanda bagira amafaranga, bakishyurira abana babo amashuri, bakabaho neza, bagateza imbere n'igihugu.

Gucana ku nkwi ni byiza. Iyo ucanye ku nkwi bituma ibiryo bishya vuba. Ibiryo batetse ku nkwi biba ari byiza kuko ntibiba bihwanye n'ibiryo batetse kuri gaze. Ibiryo batetsekuri gaze bishya vuba ariko bidahiye neza. Ariko ibiryo batetse ku nkwi bishya neza kandi bigashya vuba.

Ibishushanyo by'ingagi bikurura ba mukerarugendo, iyo uhanyuze ukakibona wumva wishimye, ukumva uranezerewe, bigatuma uruhuka neza. Abantu bakora ubugeni bagashushanya ibishushanyo by'ingagi, babona amafaranga, bakishyurira abana babo minerivari.

Inanga ni nziza, umuntu uri gucuragisha umuduri ari kuririmba indirimbo ubona ari nziza ziryoshye cyane, umuduri ugira ijwi ryiza abantu bacuranga umuduri bagashimisha iteraniro, abantu benshi bateranye igihugu cyari gifite......

Imbyino gakondo ni nziza iyo abantu babyinnye bikoreye uduseke biba ari byiza cyane, iyo umuntu ari kubibona yumva yishimye anezerewe. Ababoshyi baboha uduseke babona amafaranga n'ababyinnyi bari kubyina bikorereye uduseke bakabona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo.

Isekuru ni nziza, iyo isekuru bari kuyisekuramo ifu biba ari byiza cyane. Ifu ivuye mu isekuru iraryoha, iyo uyitetsemo umutsima wumva ari byiza, cyangwa ukayitekamo igikoma ubona ari byiza cyane. Iyo uyigaburiye abana bagira ubuzima bwiza.

Gukora amasuku ni byiza, iyo mukoze amasuku bituma aho mutuye haba neza hakamera neza, iyo igihugu kirimo amasuku bagira ubuzima bwiza bikabarinda indwara bikabarinda n'uburyo bubi bwo kubaho bakagira ubuzima bwiza.

Intore iyo ziri mu myidagaduro zirabyina cyane abantu bakishima, bagatekana, bakumva bararuhutse. Ababyinnyi b'intore batuma abantu bishima cyane, ababyinnyi b'intore babona amafaranga bakishyurira abana babo amashuri bakabaho neza.

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo, ni beza, barabyina umuntu akishima, akanezererwa akagira ubuzima bwiza. Ababyinnyi babyina imbyino gakondo babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo, n'igihugu bakagiteza

Gukamisha amaguru ni byiza, iyo uri gukamisha amaguru biba byiza cyane, bituma urwagwa ruvuyemo rushya vuba kandi rukaryoha cyane, iyo uri gukamisha amaguru, ukama vuba vuba, iyo havuyemo urwagwa, urwagwa urarugurisha ugateza imbere umuryango wawe n'igihugu cyawe kigatera imbere.

Gukamisha intoki ukoresha umuvure ni byiza, bituma habonekamo inzoga iryoshye, inzoga y'urwagwa n'umutobe uryoshye iyo wakamishije intoki, biba bifite isuku nyinshi kubera ko wabyikoreye bitavuye ahandi cyangwa ngo bive mu nganda.

Imirishyo, igicuma, imbehe, inanga ni ibikoresho nyarwanda bakoreshaga kera babyina, nanubu baracyakoresha ingoma basenga, bakazivuza babyina imbyino nyarwanda.

Umukino wo gusimbuka urukiramende ni mwiza, iyo umuntu asimbutse agira ubuzima bwiza kuko aba yagoroye ingingo zigatuma umubiri we ukura neza kandi cyane. Uyu mukino wo gusimbuka ni mwiza utuma abantu bose bishima kandi banezererwa.

Gusangirira hamwe ni byiza, iyo uri kurira ku nkoko wumva unezerewe, ibiryo biryoshye mukaganira mwese mwicaye mutuje mutakanye, iyo muri kurira hamwe biba ari byiza kuko bituma mugira umunezero mwiza.

Intore ni nziza, iyo intore ziri kubyina wumva wishimye cyane, ababyinnyi babyina intore babyina imbyino gakondo babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu cyacu kigatera imbere, umuntu ukora umwuga w'ububyinnyi agira ubuzima bwiza.

Ikigega ni cyiza, iyo wahunitse imyaka mu kigega biba ari byiza cyane, kuko imyaka wahunitse mu kigega ntabwo igira ubushyuhe bwinshi cyane, kubera ko ikigega kiba gisakajwe n'ibyatsi, abakozi bakora ibigega babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo.

Iyo utetse mu nkono wumva utuje unezerewe, ibiryo bitetse mu nkono biba bimeze neza iyo utekesheje inkwi wumva ibiryo byaho bimeze neza, abantu babumba inkono bakabona amafaranga bakishyuri amashuri bayateza imbere igihugu igihugu kigatera imbere n'aho utuye bagatera imbere.

Ibikoresho gakondo ni byiza， ingoma iyo bari kuyivuza bari mu myidagaduro n'imyiyereko， usanga ari byiza cyane. umuntu iyo ari kureba icyo kirori arishima， akanezererwa ubuzima bwe bukagenda neza，agateza imbere igihugu abakora ingoma， bakabona amafaranga bakishyurira abana babo amashuri.

Voka ni nziza iyo uri kuyirisha ibijumba n'ibishimbo biba aribyiza cyane, urakomera ukagira ubuzima bwiza, ukagira imbaraga. Uba uriye ibirinda indwara n'ibitera imbaraga, ukagira umubiri wawe ukanyerera ukagira agahu keza. Abacuruzi ba voka babona amafaranga bagateza imbere imiryango.

Umuvure ni mwiza, umuvure iyo uwukamiyemo wumva ari sawa cyane, iyo uri gukamiramo umutobe n'urwagwa bumvaga ari byiza cyane, umuvure abantu babaza imivure babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo igihugu cyacu.

Ubugeni, ibishushanyo ni byiza, iyo washushanyije ikintu neza umuntu akakibona, yumva yishimye anezerewe. Abantu bazi gushushanya babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n'igihugu cyabo kuko babonye amafaranga ari guturuka mu gushushanya, bagateza imbere n'igihugu cyabo.

Ababyinnyi ni beza babyina imbyino gakondo baba ari beza cyane, bashimisha abantu abantu bakishima cyane bakanezererwa. Iyo ababyinnyi bari kubyina babaha amafaranga bagateza imbere imiryango yabo bagatanga n'imisoro kuri Leta, igihugu cyacu kigatera imbere kandi kikagira abaturage bameze neza.

Kuvomesha igicuma ni cyiza, igicuma iyo uri kukivomesha wumva unezerewe wishimye cyane, kuko ni gakondo kirafasha, iyo uri kuvomesha igicuma undi akavomesha igikosi, umuntu uri kuvomesha igicuma yuzuza mbere, kubera ko igicuma ari kinini cyane. Abantu bakora ibicuma babona amafaranga bagateza imbere imiryango.

Abavuzi b'ingoma ni beza, iyo abavuzi bari kuvuza ingoma ababyinnyi bari kubyina, ubona ari byiza cyane. Abantu bavuza ingoma basusurutsa abantu, bakabona amafaranga bakagaburira imiryango yabo, igihugu cyacu kigatera imbere. Bakagira ubuzima bwiza kubera babonye amafaranga.

Uduseke ni twiza，iyo agaseke ugafite ukagatwereramo，wumva wishimye cyane， uduseke tugaragara neza，uri kukarebesha amaso ukabona ari keza cyane. Abantu baboha uduseke， babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo batanga n'imisoro ku...

Ababyinnyi babyina imbyino gakondo b'intore ni beza. Iyo abantu bari kubyina imbyino gakondo, bumva bishimye banezerewe. Ababyinyi babyina, babona amafaranga, bagateza imbere igihugu cyabo, bagateze imbere n'aho batuye, umuryango wabo ugatere imbere.

Umuduri iyo uri kuwucuranga wumva wishimye unezerewe, abantu bacuranga umuduri bashimisha abantu benshi. Abantu benshi bakishima bigatuma abantu bacuranga umuduri babaho neza bakabona amafaranga, bakishyurira abana babo amafaranga y'ishuri.

Agatebo ni keza ,agatebo iyo ugafashe ukabikamo ibishyimbo bigenda neza ibishyimbo ntabwo binundwa, ibishyimbo bigira ubuzima bwiza .Iyo ufashe igitebo ukagishyiramo imyaka, imyaka ifite amazi ,amazi anyura mu myenge y'igitebo ,bigatuma imyaka uyibika neza ikamara igihe kirekire.

Ikibindi kirimo umusemburo ni cyiza cyane, iyo ufashe umuseke ugashyira mu kibindi, ukanywesha umusemburo biba ari byiza cyane, kuko biraryoha cyane, abantu bakabikunda, iyo ikibindi wagishyizemo umusemburo, uba uryoshye gusumba no kuwushyira mu bindi bikoresho bitandukanye.

Inzu ndangamurage ni nziza. Inzu ndangamurage ikurura ba mukerarugendo bakaza kusura bagatanga amadovize bigatuma igihugu gitera imbere, bakubakamo ibikorwa remezo byinshi, abakozi bo bohejwe kwereka ba mukerarugendo aho, Inzu ndangamurage ziri, banona amafaranga ateza imbere imiryango.

Ibibindi ni byiza, iyo ikibindi ugishyizemo umusururu, umusururu uraryoha, ikibindi iyo ugisizemo ururabo, urarabo ruba rumeze neza. Ababumba ibibindi babona akazi, bakabona amafaranga, bakabaho neza, bagateza imbere aho batuye n'imiryango yabo.

Ikigega bagikoreshaga kera bari guhunika imyaka, bagaahunikamo ibirayi, ibishyimbo 'ibigori n'iyindi myaka. Ikigega ni cyiza gituma ibihingwa bitanyagirwa, iyo bagisizemo ibigori ntabwo binyagirwa.

Ikirago ni cyiza, iyo wicaye ku kirago ntabwo wandura. Ababoshyi baboha ibirago babona amafaranga, bagateza imbere aho batuye n'imiryango yabo igatera imbere. Abana b'abantu baboha ibirago, ibirago babijyana mu isoko, abana babo bakiga ahantu heza bakagira ubuzima.

Amategura ni meza, abantu barara mu mategura ntabwo iyo imvura iguye ibasakuriza, iyo uryamye mumategura wumva unezerewe cyane. Inzu zubakishije amategura ubona ari nziza cyane, kandi nta rusaku itanga, iyo ababumbyi babumba amategura babona amafaranga.

Ububoshyi ni bwiza, abantu baboha ibirago babona amafaranga, bakayakoresha mu buzima bwa buri munsi, bagahaha, abantu baboha ibirago bateza imbere igihugu, bagatanga imisoro ku gihugu. Ibirago birafasha iyo ugishyizeho matora uryama neza, ukaruhuka neza, ukumva uratekanye.

Isekuru bayisekuramo isombe. Isombe basekuye mu isekuru iba iryoshye ,iyo uyitetse urayirya ukumva ni nziza, ukumva imeze neza cyane, ukayirya ukagira ubuzima bwiza. Isombe basekuye n' isekuru wumva itabese cyane ku buryo mu igogora yoroha.

Gukamisha amaguru ni byiza bituma haboneka umutobe mwinshi uryoshye iyo uri gukamisha amaguru biba neza cyane, bituma ibitoki bishya vuba umutobe ukaboneka kandi ugatanga n' imisoro ku gihugu iyo ugiye gucuruza n' umutobe abantu benshi bakabona_

Kubumba ni byiza, iyo ufashe inkono y'ibumba ukayitekamo ibiryo biraryoha. Ababumbyi babumba inkono z'ibumba babona amafaranga bakishyurira abana amafaranga y'ishuri, bakabaho neza, bakagira ubuzima bwiza.

Inka za kinyarwanda ni nziza, zigira amahembe meza, zikurura ba mukerarugendo bagasiga amafaranga mu gihugu, bagateza imbere imiryango, bagateza imbere aho batuye, abakozi bakora bakanazitaho babona amafaranga, bakabeshaho imiryango ya bo.

Isekuru ni nziza cyane. Iyo isekuru uyisekuyemo isombe wumva ari nziza. Isombe zivuye mu isekururo iyo uri kuzirya wumva ibese neza. Kandi isekururo abantu bakora amasekuro babona akazi bakabaho neza.

Ibibindi ni byiza. Iyo ikibindi gitetsemo ibiryo by'aho biraryoha cyane. Ababumbyi babumba ibibindi babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n'igihugu cyabo. Bityo abantu bose bakora umurimo w'ububumbyi baba Bafite ubuzima bwiza bagateza imbere imiryango yabo.

Agaseke ni keza, agaseke iyo uri kukareba ubona ari keza ukumva uranezerewe urishimye. Ababoshyi baboha uduseke babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere igihugu cyacu n'abaturanyi bagatera imbere. Umuntu uboha uduseke abona amafaranga agateza imbere umuryango.

Igikoresho gisudira telefone, gisudira neza telefone. Iyo telefone yawe yapfuye, yacitseho agatsinga, urayijyana ku mukanishi akayikanika. Agakoresha kino gikoresho gisudira telefone, telefone yawe ikaba neza.

Terefone zimeze nk'amasahani nziza, iyo uyambaye ku kaboko witaba umuntu byoroshye, akakumva neza, nawe ukamwumva neza, abakozi bakora terefoni z'amasaha babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo, igihugu kikubaka amashuri, kikubaka ni...

Umuhanda ni mwiza. Umuhanda woroshya ubuhahirane. Iyo imodoka ziri kunyura mu muhanda zirihuta cyane, abakozi bakora umuhanda babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere Igihugu. Igihugu cyacu kikabona imisoro iturutse mu kuba abantu bari kunyuza ibinyabiziga mu muhanda.

Amazu ya Etaje ni meza, iyo wubatse inzu ukayigira Etaje biba ari byiza cyane icumbikira abantu benshi, abantu benshi bakayakoreramo bakabona amafaranga bagateza imbere, igihugu cyabo n'umuryango wawe ugatera imbere, abaturanyi bawe bagatera imbere kuberako bari kubona aho gukorera.

Urusengero rusakaye gutya aba ari rwiza, iyo ugiye mu rusengero rusakaye gutya, ufite aho guhumekera hameze neza wumva ubuzima bwawe bumeze neza, iyo usohotse mu rusengero ukabona ahantu ho kwicira hari agacaca, wumva uguwe neza kandi utekanye.

Igipangu ni cyiza iyo wubatse urugo ugashyiramo igipangu wumva ari byiza, iyo hari igipangu gituma abajura batapfa kuhinjira n'upfuye kuhinjira ntabwo yapfa kukwiba ,kuko kuvamo biba bigoye no gusohokamo bikaba bigoye.

Icyapa ni cyiza. Iyo ugeze ku cyapa uhita umenya ahantu ushaka kujya. Iyo ugeze ku cyapa wumva wishimye cyane kuko ahantu werekeje kujya, urasoma ukamenya aho ugiye. Abakozi bakora ibyapa babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo bagateza imbere n'igihugu.

Inzu yubakishije amabuye aba ari nziza, ifite n'amashanyarazi aba ari nziza cyane, abakozi bakora amashanyarazi babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo. Abubatsi bubaka inzu z'amabuye babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n'igihugu cyabo.

Iyo wubatse inzu nyinshi kandi zisa biba ari byiza, iyo buri inzu ugiye urashyiraho akabararaza ubona ari byiza cyane, iyo imvura iguye ku muryango warashyizeho akabaraza umuntu ahagarara ku muryango akugama imvura bigatuma imvura itamunyagira, abubatsi bubaka amazu babona amafaranga bagateza imbere igihugu.

Umuhanda wa kaburimbo ni mwiza . Iyo umuhanda wa kaburimbo wegeranye n'igipangu kizitiye ,aba ari byiza kuko iyo uturanye n' umuhanda wa kaburimbo ukazitira igipangu cyawe ,imodoka irenze umuhanda, igonga igipangu ntikugereho, bigatuma ugira ubuzima bwiza.

Insengero ni nziza, iyo urusengero urufite ubona amafaranga yo guteza imbere umuryango wawe, abakirisitu bagiye mu rusengero urabigisha ukabasobanurira ukabahugura, bigatuma baba muri sosiyete bameze neza kandi batekanye babanye neza.

Ama etaje ni meza, ama etaje atuma ahantu ho kubaka haba hakeya, agacumbikira abantu benshi, ama etaje atuma, akurura ba mukerarugendo, abantu benshi bakabona amafaranga, abantu benshi bakabona aho guhinga n'aho kuba.

Amashuri ya ma etaje ni meza, iyo umuntu ari kwiga mu ishuri ryitaje biba byiza, ahantu hakwiye kuba amashuri nimba ari amashuri atanu hejuru yaho har''ay'andi atanu, abanyeshuri babona aho biga bakagira ubuzima bwiza bagateza imbere igihugu cyabo, bagateza imbere n'imiryango yabo.

Ikiraro ni cyiza ikiraro cyubakishijwe senyenge kiba cyiza cyane, iyo wubatse ikiraro ukacyubakisha ibyuma na senyenge, iruhande ugashyiraho utuntu two kugira ngo abantu batagwa mu mazi dukozwe mu byuma na senyenge, biba ari byiza kuko umuntu uhakoze ntabwo yagwa mu mazi.

Ikiraro cy'ubakishijwe senyenge kiba ari cyiza, iyo ikiraro cyubakishijwe senyenge iyo uri kugenda, ugenda uri kwicunda ukumva ni byiza, abubatsi bubaki ibiraro babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo, bagatange imisoro ku gihugu, igihugu cyacu cy'igatera imbere.

Amapave meza amapave iyo uyashashe hasi ukayagenderaho ubona ari byiza cyane, iyo amapave asase inyuma y'igipangu umuntu wese ugiye mu gipangu akahagera afite nk'imodoka akahaparika biba ari byiza.

Imodoka iyo ziri hamwe zihurije muri gare biba ari byiza kuko uhitamo imodoka ushaka ukihuta ukagera iyo ugera amahoro. Abashoferi batwara imodoka babona amafaranga bakabeshaho imiryango yabo, imiryango yabo ikabaho neza cyane kandi n'abana babo bakiga neza.

Amashuri ni meza. Amashuri ya etaje aba ari meza cyane. Abantu bari kwigira muri etaje bituma iyo ufite amashuri ya etaje, abantu biga ari benshi. Abanyeshuri bakiga ari benshi, bigatuma bigabanya ubutaka bwo kuba bakubakaho amashuri menshi.

Amashuri ni meza, iyo umunyeshuri yiga akiga ahantu hari amabuye iyo yumva arushye ajya kwicara ku ibuye akaruhuka, hari ikibuga agakiniramo bigatuma agira ubuzima bwiza, igihugu cyacu kigatera imbere.

Ababyinnyi ni beza, iyo abayobozi bakuru badusuye tukabyina tukiyereka biba ari byiza, bituma abayobozi bakuru bamenya babonako bafite abaturage beza, abaturage bishimye bameze neza bari guteza imbere igihugu cyabo.

Insengero ni nziza, abayobozi b'abakirisitu baba ari beza. Nk'abapasiteri n'abasenyeri baba ari beza cyane, kuko batanga imisoro ku gihugu. Iyo baturishije amaturo, bakabona amafaranga batanga imisoro ku gihugu. Igihugu kigatera imbere, bayubaka ibikorwaremezo byinshi bitandukanye.

Iyo wubatse inzu ugakoresha ferabeto, iyo nzu irakomerara cyane, iyo ufashe fera beto ukazubakisha inzu, inzu iraramba. Abantu bakora ferabeto babona amafaranga bakabeshaho imiryango yabo, n'igihugu kigatera imbere.

Gutera indabo ni byiza. Iyo ukikije indabo ku rugo wumva ari byiza cyane. Iyo indabo uzicayemo urushye unaniwe, ukagenda ukaziruhukiramo, wumva ari byiza. Iyo indabo zikuze barazikata, bakabona ubwatsi bw'inka n'andi matungo.

Urusengero ni rwiza gusenga ni byiza. Iyo umuntu agiye gusenga agira ubuzima bwiza, akabona impanuro nyinshi agateza imbere igihugu cye. Urusengero abapadiri barahembwa, abapasiteri bagahembwa, bigatuma igihugu cyacu gitera imbere, kandi bagakora ibikorwa byinshi bishimishije.

Iyo wubatse igipangu ukacyubakisha amabuye, mo ndani harimo inzu, hanze hariho ibyatsi, ibyatsi bituma abantu bari mu nzu babona umwuka mwiza, bakagira ubuzima bwiza bagateza imbere igihugu cyacu, ibyatsi havamo ubwatsi bw'inka, inka zikarya, zigatanga n'ifumbire, tugatera ibirayi n'ibishyimbo.

Ishusho ya Bikiramariya ni nziza, abantu bubaka ishusho ya Bikiramariya babona amafaranga, agateza imbere imiryango ya bo, igihugu cya bo kigatera imbere. Abantu bakunda ishusho ya Bikiramariya, nk'abizera gatuika iyo bayigezeho barayunamira, bigatuma abantu benshi bicisha bugufi, kandi ibyaha bikagabanuka.

Amazu yubakishije amabati y' umutuku aba ari meza, kuko iyo amazu yubakishije amabati y' umutuku kandi asa aba ari byiza cyane, abantu batuye mu mazu bubakishije amabati y' umutuku akoze neza iruhande hateye ibyatsi iyo barushe bajya kuryama muri ibyo byatsi.

Iyo ufite ubusitani bukikijwe n'ibiti biba ari byiza cyane. Kuko indabo zituma hagaragara neza, zigakurura umwuka mwiza, abantu bahegereye bagahumeka, bigatuma abantu batuyemo bagira ubuzima bwiza.

Amazu yubatse akagira imiryango myinshi, aba ari meza. Iyo wubatse amazu, ukayagira imiryango myinshi imiryango ifite amarangi atandukanye biba ari byiza . kuko iyo ugiye kurangisha bakurangira umuryango n'irangi ufite urahita uhamenya,

Iyo wubatse inzu ugatera ibyatsi hanze biba ari byiza cyane. Iyo ufite inzu ukayikorotiza igipangu ukayishyiraho igipangu kimeze neza, hari igipangu gikozwe mu byuma igaragara neza. Iyo ufite inzu ukayishyira ikigega iruhande biba ari byiza cyane.

Amashanyarazi ni meza， amashanyarazi atuma tubona umuriro，tukogosha，tukabeta ibigori， amasaka， ababesi babeta bakabona amafaranga，abogosha bakabona amafaranga，tugakoreraho n'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga，muri iki gihe turimo.

Ikibuga cy'umupira gituma abantu bishima, bagakora siporo ubuzima bwabo bukagenda neza, bakabaho neza bakagabanya ibinure, igihugu kigatera imbere kikagira abakozi beza, batekereza neza,..

Ibiro by'Akarere ka Gakenke ni byiza. Iyo uri kubireba wumva unezerewe. Byubatse neza, umuntu wese ugize ikibazo akagana ibiro by'Akarere bimukemurira ikibazo neza, kandi ibiro byubatse ku buryo umuntu abona umwuka uhagije.

Ishusho ya Bikiramariya ni nziza, umuntu wese uje gusura ku kiliziya Bikiramariya yumva anezerewe , ishusho ya Bikiramariya abantu bayubaka babona amafaranga abateza imbere, imiryango yabo n'igihugu kigatera imbere kandi abantu bakabaho.

Imikeka nimyiza, imikeka tuyisharaho, imikeka iyo uwicayeho wumva wishimye cyane, iyo urambirije amaguru wumva umeze neza, utekanye, ababoha imikeka babona, amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n' igihugu cyabo.

Inzu yubatse neza, ifite giriyaje imbere, giriyaje ni nziza, iyo uri kurubaraza rw'inzu hariho giriyaje biba byiza cyane, kuko ikurinda kuba wagwa. Abantu bubaka giriyaje babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo.

Abanyeshuri ni beza iyo abanyeshuri bize neza bateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere igihugu umuryango nyarwanda ugatera imbere. Abarimu bigisha abanyeshuri babona amafaranga bakigisha abana babo ku bigo byiza bakongera ubumenyi buhagije.

Mikoro ni nziza, iyo uri kuvuga ukoresheje mikoro biba ari byiza cyane, kuko abantu benshi barumva bigatuma buri wese amenya icyo ushatse kumubwira, abakozi bakora mikoro babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagatanga n'imisoro, bakubakamo ibikorwaremezo bitandukanye.

Ubutabera ni bwiza iyo umuntu yakosheje cyangwa yakosherejwe, bakamujyana mu butabera, ikibazo cye cyakemuka akagenda neza, abantu bakabaho mu mahoro n'umutekano. Abapolisi barinda n'abadaso, bakarinda abantu bagiye mu butabera, babona amafaranga bakajya guteza imbere imiryango yabo.

Ubutabera ni bwiza, iyo wakorewe icyaha cyangwa warakoze icyaha ukajya mu butabera, bagukemurira ikibazo neza. Ubutabera butuma igihugu cyacu gitera imbere abagituye bakagira ubuzima bwiza, abatabera babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo.

Iyo uri kuvuga ukoresheje mikoro ni byiza cyane kuko abo uri kubwira barumva, bakumva ibyo uri kuvuga bakabyumva neza. Iyo uri kuvuga ukoresheje mikoro uri mu uruhame rw'abantu benshi, abantu barakumva bose. Mikoro ituma umuntu ageza ijwi kure.

Kuvugira mu ruhame ni byiza, abakoresha mikoro ni byiza cyane, iyo uri kuvugira mu ruhamwe uri gukoresha mikoro bituma abantu bose bagukurikiye bumva, bakumva neza, abakozi bakora mikoro bakabona amafaranga, bagateza imbere igihugu cyabo n'imiryango...

Muri gare ni heza. Iyo ugiye muri gare ubona imodoka aho ushaka kujya hose ubona imodoka. Iyo uri gutegera muri gare ubona imodoka wifuza kandi ushaka kandi bataguhenze. Abashoferi batwara imodoka babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo.

Umugore utwaye igare aba ari byiza, iyo umugore atwaye igare bigaragara neza, iyo uri kubireba ubona ari byiza ukabona ko abagore bahawe ijambo, kandi bafite imbaraga, kandi ko nabo bashoboye, iyo umuntu atwara igare bituma bimworohereza akazi yari bukore.

Muri gare ni heza. Iyo ugiye gutega imodoka uri kwihuta ukajya muri gare, ubonayo imodoka, imodoka nyinshi cyane. Ugatega iyo ushaka kandi udahenzwe. Abashoferi batwara imodoka babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo bagateza imbere n'igihugu cyabo.

Imodoka ya tagisi vatiri ni nziza, iyo umuntu afite imodoka ya tagisivatiri akayigendamo biba ari byiza cyane, iyo ageze nko muri gare ashaka gutega imodoka, agasanga harimo tagisivatiri kandi yihuta adashaka ku kugendana n'abandi, atega tagisivatiri akagera iyo aragera vuba.

Imodoka ya hoho ni nziza, imodoka yahoho itwara ibintu byinshi cyane, imodoka ya hoho iyo uyitwaye ubona amafaranga ugateza imbere imiryango yawe, uteza imbere igihugu cyawe, abantu batunze imodoka za hoho babona amafaranga menshi bakagira ubuzima bwiza.

Imodoka zitwara abantu benshi ni nziza iyo ugiye mu modoka itwara abantu benshi biba byiza cyane kuko umuntu wese iyo abantu bagiye ari benshi bigabanya ururujya n'uruza rw'abantu. Bikagabanya n'imodoka zari kubatwara bagatuma abashoferi batwara imodoka babona amafaranga bagateza imbere Igihugu cyacu.

Imodoka ya Hoho ni nziza itwara ibintu byinshi cyane. Umushoferi utwara Hoho abona amafaranga agateza imbere umuryango we, agateza imbere n'igihugu cye. Iyo ufite imodoka ya Hoho biba byiza kuko iguha amafaranga menshi kandi mu gihe gitoya.

Imodoka itwara abantu benshi, abantu barenga mirongo itatu, abantu barihuta bakagerayo vuba, ikoroshya ubuhahirane, ikagabanya akajagari k'utumodoka twinshi dutoya, bigatuma igihugu gitera imbere, bigatuma akazi kagenda neza kandi ku gihe.

Ibitoki ni byiza cyane biraryoha iyo igitabo gitekanye n'ibirayi wumva ari cyiza cyigira ubuzima bwiza, ukumva uranezerewe igitoki gitera vitamini iyo ugitekanye n'ibishyimbo n'amamininwa wumva ari sawa.

Abanyonzi ni beza, abanyonzi barabatwara bagatanga umusoro ku gihugu, abanyonzi bagaburira imiryango yabo, iyo ufite igare ryoroshya ubuzima ukagera iyogera wihuse kandi vuba, abanyonzi bakora umwuga wo gutwara amagare babona amafaranga, bagateza imbere igihugu.

Ubwato ni bwiza, ubwato butuma ba mukerarugendo batanga amafaranga ku gihugu, igihugu cyacu kigatera imbere. Abantu batwara ubwato babona amafaranga, bakabeshaho imiryango yabo, abantu batwara ubwato babona ibikorwa remezo byinshi biturutse mu mafaranga bakura mu gutwara ubwato.

Ubwato bufasha kwambukatsa ibintu n'abantu abantu bakagera iyo bagiye vuba kandi bihuse. Bagatwara ibicuruzwa bikambukiranya imipaka, banyuze mu mazi neza kandi vuba.

Imodoka ya kwasiteri itwara abantu benshi, ikoroshya urugendo, ikoroshya ubuhahirane, abantu bagahaha, byoroshye bakava mu gace kamwe bakajya mu kandi bitabagoye, kandi ari benshi, kandi bose bari kugenda neza.

Muri gare ni heza, iyo ugeze muri gare ubona imodoka wifuza aho ugiye aho ariho hose ukabona imodoka, kandi ku mafaranga make, abakozi bakora muri gare babona amafaranga, bakibeshaho n'imiryango yabo, abashoferi batwara imodoka babona amafaranga bakabeshaho imiryango yabo.

Indege idufasha kwihuta iyo tugiye mu mahanga twambukiranya ibihugu kugerayo biratworohera. Kandi ikindi indege igatanga n' akazi abantu benshi bakabaho neza, abantu benshi bagahahirana byoroshye...

Abanyonzi bakora akazi kenshi kavunanye. Iyo bari batwaye igare biba bigoye ariko babona amafaranga bakabeshaho imiryango yabo, baguteza imbere igihugu n' abandi bose. Imiryango y'abanyonzi ibaho neza kubera ko babona umushahara.

Lifani ni nziza, lifani bayitwaraho ibintu byinshi cyane, bayitwaraho ibikoresho byinshi bitandukanye, abashoferi batwara lifani babona amafaranga, bagatera imbere mu miryango yabo bagatanga n'imisoro ku gihugu ,igihugu kikubaka ibikorwaremezo byinshi bitandukanye.

Igare ni ikinyabiziga gitwara abantu n'ibintu. umushoferi w'igare abona amafaranga akabeshaho umuryango we agateza imbere igihugu, akishyura n'imisoro igihugu cyacu kigatera imbere ,n'abagituye bagatera imbere.

Igare ni ryiza, iyo igare ritwaye abantu bagera iyo baragera vuba, bakoresha urugendo ntibaruhe amaguru ,cyangwa ngo bananirwe. Kubera ko bari kugare, abantu batwara igare babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo.

Kunyonga igare ni byiza, iyo uri kunyonga igare wumva ari byiza wishimye, wishimye urugendo rwawe ugiye gukora ukagerayo vuba kandi ukagera kare, abanyonzi banyonga amagare babona amafaranga n'abakozi bakora amagare bakabona amafaranga yateza imbere igihugu.

Umukino wo gusiganwa ku mugare ni mwiza. Abantu iyo babonye umukino wo gusiganwa ku magare barishima. Abakinnyi basiganwa ku magare babona amafaranga, bagateza imbere igihugu cyabo. Umukino wo gusiganwa ku magare abantu babikora bateza imbere imiryango yabo, n'Igihugu cyacu kigatera imbere.

Abakinnyi b'umupira ni beza bashimisha abantu benshi, abantu baje kureba umupira bishyura amafaranga, amafaranga bagahembamo abakinnyi abakinnyi bakabona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo bagateza imbere igihugu cyacu, n'aho batuye hagatera imbere.

Abafana ni beza. Iyo umuntu ari gukina afite abafana yumva yishimye cyane. Abafana bakomeye barishima bakabona n'amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo. Abakinnyi bari gukina mu kibuga batanga imisoro kuri Leta kuko babonye umushahara.

Abakinnyi ni beza, iyo abakinnyi bari gukina barishima cyane abafana bari iruhande baranezerwa bakumva barishimye cyane bagateza imbere igihugu cyabo n'imiryango yabo igatera imbere . Abakinnyi babona umushahara bagatanga imisoro kuri Leta igihugu ki...

Vole ni nziza. Abakinnyi bari gukina vole baba bishimye, bakabona amafaranga, bagakora siporo bakagira ubuzima bwiza. Umukino wa vole urakundwa cyane. Iyo umuntu yakinnye vole arishima cyane, akananura umubiri, ateza imbere n'igihugu cye.

Agatenesi ni keza, iyo uri gukina agatenesi wumva ari byiza, abantu bakunda gukina agatenesi iyo muri babiri, mukagenda mugaterana, mugahererekanya ubona ari byiza, iyo ari ku mucaca cyane cyane bumva ari sawa cyane.

Abantu bakora umukino wo kwiruka mwiza, iyo bari kwiruka biba ari byiza cyane, umuntu wese ubabonye yumva yishimye, abantu biruka bagira ubuzima bwiza, bakagira umubiri utabyibushye.

Umukino w'intoki wa basikete ni mwiza, iyo uri gukina basikete wumva wishimye unezerewe, gukinira ku kibuga cyiza, ubona ari sawa cyane, abantu bakina basikete babona amafaranga bakoresha n'imiryango yabo, igihugu cyacu kigatera imbere.

Intebe zikozwe mu mapine y'imodoka yashaje, ziba zimaze neza, zigakorwa mu biziga by'amagare yashaje ziba zimeze neza, iyo uyicayeho wumva umeze neza utekanye, kuko wumva utuje ukumva unezerewe cyane.

umukino w'intoki ni mwiza, iyo uri gukina umukino w'intoki wumva unezerewe unanura umubiri wawe. Abakinnyi bakina umu w'intoki babona amafaranga, bagateza imbere igihugu cyabo n'imiryango yabo igatera imbere, bigatuma abakinnyi bakina umukino w'intoki babona amafaranga bakagira ubuzima bwiza.

Umukino wo kwirukanka ni mwiza cyane, uteza imbere abantu benshi, umuntu ukora akazi ko kwirukanka ni byiza; biramufasha, bigatuma imiryango ye itera imbere, igihugu kigatera imbere, abantu benshi bakabona akazi, abantu biruka bagira ubuzima bwiza.

Ibibuga ni byiza, iyo hari ikibuga, ushaka gukiniramo akishima, akumva aranezerewe cyane. Iyo hari amazamu, amazamu hahagararamo umugaridiye, bamutera ishoti akayifata. Iyo uri gukinira mu kibuga kizitije senyenge, biba ari byizacyane.

Siporo ni nziza siporo iruhura umubiri, siporo ituma utekereza neza iyo ukoze siporo muri rusange uri hamwe n'abantu benshi, wumva unezerewe ukabona ko ugifite ubuzima bwo kubaho, iyo ukoze siporo uri hamwe n'abandi wumva wishimye cyane.

Amasiganwa y'amagare, amakurusi, ni meza. Abantu, iyo habaye amasiganwa, abantu barishima, abakinnyi bakina umukino wo gusiganwa ku magare babona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo, bagateza igihugu cyabo imbere, tugatera imbere, tukishima cyane.

Abakinnyi ni beza. Abakinnyi batuma igihugu cyacu gitera imbere. Abakinnyi batuma abantu benshi bishima cyane, kuko baba baje kubafana bakumva baranezerewe cyane. Abakinnyi babona umushahara bagateza imbere imiryango yabo, bagatanga n'imisoro igihugu cyacu kigagira amafaranga menshi.

Abakinnyi ni beza, abakinnyi bari gukina umukino w'intoki ntabwo ari byiza cyane ko iyo umuntu ashaka kugirango ngo arambure ingingo cyangwa agagabanya ibinure agakina bigabanuka vuba. Mu imikino yose iteza imbere igihugu bigatuma abantu benshi bamenyekana kandi bakagira ubwenge kubera bakoze siporo.

Abakinnyi ba basiketi ni beza, iyo umuntu ari gukina basiketi agira ubuzima bwiza umuntu wese ukina basketi ingingo ze zirarambuka, umukino wa basiketi urakundwa kuko abantu benshi, barishima bakanezererwa bakumva bagize ubuzima bwiza, bagateza imbere igihugu cyacu.

Kigali Arena ni nziza, ibamo ibiro byinshi bitandukanye. Iyo inzu yubatse imeze nk'ikizeru aba ari nziza cyane, kuko umuyaga ntabwo wapfa kuyihirika, iba ikomeye. Kigali Arena yakira abantu benshi, abantu bayubatse babonye akazi, bateza imbere imiryango yabo.

Basikete ni nziza, abakinnyi bakina basikete babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo n'igihugu cyacu kigatera imbere. Abakinnyi bakina basikete bagira ubuzima bwiza bagorora ingingo bigatuma bamara igihe kirekire bakanarama, kuberako bakoze siporo bagateza imbere n'imiryango yabo.

umukino w'intoki ni mwiza, iyo umuntu akina umukino w'intoki ateza imbere umuryango, agateza imbere igihugu. Abakinnyi bakina umukino w'intoki burira indege bagiye hanze, bagatanga amafaranga ku gihugu, bakazana amadovize bavanye hanze. Abantu bakina umukino w'intoki imiryango yabo ibaho neza, kandi igatera imbere.

Abakinnyi b'amagare ni beza bakurura abafana. Abafana baje gufana barishima cyane bakanezerwa cyane. Abakinnyi bakina amagare babona amafaranga bagateza imbere umuryango wabo n'igihugu cyabo kigatera imbere. Abakinnyi bakina amagare batanga amafaranga bagatanga n'imisoro iturutse kuko bavuye gukina.

Abakinnyi ba handiboro ni beza, iyo umuntu ari gukina imikino y'amaboko ya baskete abona amafaranga, agateza imbere umuryango we, igihugu cyacu kigatera imbere. Baskete ni nziza, abantu barayikunda, bakishima bakanezerwa, bakagira ubuzima bwiza.

Basikete ni nziza, iyo uri gukina basikete wumva wishimye, abafana baje gufana abakinnyi, barishima cyane kugira binjire mu kibuga batanga amafaranga, amafaranga bakubakamo amasitade, bakubakamo ibikorwa remezo bitandukanye, bakishyura n'abakinnyi, igihugu cyacu kigatera imbere, abantu bakina umukino wa basikete bakagira ubuzima.

Umukino w'intoki ni mwiza ,abantu bakina umukino w'intoki barishima cyane, barambura ingingo zabo, bakagira ubuzima bwiza, bagateza imbere igihugu cyabo. Abantu bakina umukino w'intoki bashimisha abafana, bagashimisha igihugu, abantu batuye mu gihugu babona amafaranga aturutse mu mikino w'intoki.

Abakinnyi ni beza, abakinnyi bateza imbere igihugu. Iyo abakinnyi bari gukinira igihugu bituma igihugu kigira ishema, kandi igihugu kikabona amafaranga menshi, aturutse kuko abakinnyi bagiye gukina bagatsinda; bakabonayo amadovize atuma abantu benshi bamenyekana.

Abakinnyi ni beza, abakinnyi babona amafaranga bagateza imbere igihugu cyabo. Abatoza batoza abakinnyi babona amafaranga bakarihira abana babo amashuri bagatanga imisoro kuri leta remezo byinshi bitandukanye, igihugu kigatera imbere n'abafana baje gufana abakinnyi bakishima.

Abafana ni beza . Iyo abafana bari gufana abakinnyi bari gukina , biba ari byiza cyane. Iyo umuntu ari gukina umupira , akaba afite umuntu uri ku mufana, biba ari byiza . Kuko , bituma ugira imbaraga . Bigatuma ukora cyane . Kandi ,ugakoresha imbaraga zawe zose.

Abakinnyi b'amagare beza. Iyo umuntu akina igare, abona amafaranga agateza imbere umuryango we, n'igihugu cyacu kigatera imbere. Umukino w'amagare mu Rwanda utuma abantu benshi bishima, banezerwa kandi bigatuma abantu benshi bagira ubuzima bwiza, kubera banyonze igare bakagabanya ibinire.

Abakinnyi b'amagare ni beza; abakinnyi b'amagare iyo bari gutwara amagare, abantu benshi barafana bakishima bakanezererwa. Abakinnyi b'amagare babona amafaranga bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n'igihugu cyabo, bagatanga n'imisoro. Ku abatoza batoza abakinnyi b'amagare babona umushahara bakabesha imiryango yabo.

Imikino y'intoki ni myiza, ituma abana bishima, igatuma n'abantu bakuru bishima, bakinjiza amafaranga, abantu bakajya kureba imikino y'intoki bishyuye amafaranga, abantu benshi bakabonamo akazi, bakabaho neza, n'imiryango yabo ikabaho neza, n'igihugu kikabona amafaranga.

Igipangu ni cyiza gikikijwe n'ibiti, umuhanda ukaba mwiza iyo ufite imodoka, cyagwa igare, cyangwa moto, biba byiza. Abantu bose bakunda igipangu gikikijwe n'ibiti, kuko ibiti ni byiza bituma haboneka, umwuka mwiza duhumeka.

Amapave ni meza iyo uri kugenda ahantu hari amapave wumva ari byiza cyane, abubatsi bubaka amapave babona amafaranga n'abakozi bakora amapave bakabona amafaranga, bagateza imbere imiryango yabo bagateza imbere igihugu cyabo batanga imisoro ku gihugu. Abashoferi bari gutwara ibinyabiziga banyuze ku mapave bigatuma batanga amafaranga menshi n'imisoro ku gihugu.

Umuhanda wamapave ni mwiza, abanyamaguru iyo bari kuwugendamo, bituma hataba impanuka, kubera ko abantu bose, bari kugendera mu muhanda wa kaburimbo, abantu bari kugenda mu muhanda wamapave, bagenda bameze neza batekanye, batekereza ko nta kinyabiziga kirahabasanga, kuko haba haragenewe abanyamaguru, n'ibindi binyabiziga by'ibinyamitendu.

Umuhanda wa kaburimbo ni mwiza, ibinyabiziga bigenda neza bituje bimeze neza bitekanye, kandi umuhanda wa kaburimbo iyo uri kuwugendamo wumva unezerewe utari gusitara, iyo ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ntabwo gikoresha lisanse nyinshi kubera ko kiba kiri kugenda ahantu heza.